Icyapa cyamamaza, kiri mu ibara ry'icyatsi, hakaba handitseho amagambo asa umweru, hakaba hari imodoka ishushanyije mu ibara ritukura. Icyapa kigaragaza ko imodoka zikeneye ubwishingizi kugira ngo mu gihe zagira ikibazo, zizabashe kwitabwaho.

Abantu babiri bari kuganira umwe yicaye imbere y'ibirahure undi ari inyuma y'ibirahure, bose bambaye udupfukamunwa hagati y'abo harambitsemo inoti y'amafaranga y'u rwanda.

Amafaranga y'amadolari ya leta zunze ubumwe z'Amerika ateretse ku meza ari kumwe n'ibindi bipapuro byinshi, kuri ayo meza hari intoki z'umuntu yicaye bigaragara ko ariwe nyiri ayo mafaranga akaba yari ari kuyabara.

Aya ni amafaranga igiceri makumyabiri cy'amafaranga y'u Rwanda, arambitse hasi akaba ari kugaragaza uruhande ruriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba handitseho umubare makumyabiri ugaragaza igiceri ingano yacyo.

Ameza asa umweru kuri ayo meza hateretseho agacupa karimo uduti bifashisha mu gihe bari gusukura hagati y'amenyo, kandi kuri ayo meza hari imirasire y'izuba iri kunyuraho, impande y'ameza hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Inyandiko y'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda Rwanda Reveni Otoriti, iriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse igaragaza niba umucuruzi yishyuye imisoro agomba kwishyura ku bucuruzi bwe isa n'umweru n'amagambo y'umukara.

Inyandiko y'ubwishingizi. Iyi nyandiko iri mu mabara y'umweru hakaba hariho amagambo y'ibara ry'umukara, hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ikaba igaragaza uburyo umuntu yagiye akoresha ubwishingizi bwe.

Urupapuro urusa umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, amagambo agaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye byakozwe mu kubaka inzuzu hariho imibare y'gihe i yo nzu yubakiwe ndetse n'amagambo y'ibikorwa bitandukanye byakozwe hari kubakwa inzu.

Icyapa cyerekana igiciro cy'amafaranga ku isoko mpuzamahanga, Amadolari y'Amerika, Amashilingi y'Amanyakenya, Amafaranga y'u Rwanda, Amapawundi yo muri Sudani ndetse n'amafaranga y'Ibihugu bigiye bitandukanye. Imbere yaho hari umugabo uhahagaze ufite ikaramu akaba ari kwandika kuri iki cyapa.

Umuntu uhagaze ahantu. Inyuma ye hari ibyapa bigiye bitandukanye. Hari icya Eyateli, ndetse n'icya Emutiyeni. Hari n'ibindi byapa bigaragaza agaciro k'amafaranga ku isoko mpuzamahanga, uko agenda avunjwa.

Intebe nziza ameza meza ateguye ahantu mu cyumba kiza giteye amarangi y'umweru. Ameza ari hagati akaba azengurutswe n'intebe eshatu ndetse ku ruhande hakaba hari igikuta.

Igorofa ryubatse ryifashishijwe n'amarangi y'ubururu, ndetse n'ay'umweru, imbere y'igorofa hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye, ndetse imbere y'ubusitani hari akayira k'abanyamaguru gateye irangi ry'umukara n'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi kikaba gitatse amabara y'ubururu n'umweru, hejuru hakaba hari amatara, hakaba hateye intebe zisa n'umukara, ndetse hakaba hateretsemo mudasobwa muri iki cyumba.

Igishushanyo cyamamaza cyerekana serivisi muri banki batanga, bakunda kucyita icyapa. Hariho umuntu ugaragara ko yishimye kubera serivisi yahawe na banki. Ku mpande hari amazu, bigaragaza ko yahawe inguzanyo na banki yo kubaka inyiyubako.

Inyemezabwishyu ikoreshwa mu mabanki agiye atandukanye igaragaza amafaranga wishyuye, wagujije cyangwa wahawe, hariho ibice bigiye bitandukanye, amazina yawe, konti yawe ndetse n'imyirondoro yawe.

Isoko ricururizwamo imyenda myinshi cyane, harimo ibitenge byambarwa n'abagore, ibindi birimo ni amakanzu, amasakoshi by'amabara agiye atandukanye, bikaba byuzuye inzu yose.

Umugore wambaye indorerwamo, yicaye ku ntebe, akaba afite imboga mu ntoki bigaragara ko ari umucuruzi, iruhande rwe hari abandi bantu bicaye muri iryo soko, imbere y'uyu mugore hateretse ibicuruzwa bimwe biri mu ibase, ibindi mu biseke.

Isoko rusange ricururizwamo imbuto y'inyanya, ibitunguru, amashu, karoti, n'ibindi. Harimo abantu benshi cyane baje gucuruza imbuto zabo ndetse hakaba harimo n'abandi benshi baje kugura, harimo igare hakaba n'inzu ku ruhande ikorerwamo ubucuruzi.

Inzu y'umuhondo, irimo umukozi ushinzwe gufasha abantu bashaka amafaranga ari kuri terefoni zigendanwa. Aba yarashyizwemo na sosiyete ya MTN kugira ngo ajye afasha abantu mu kubona amafaranga mu buryo bworoshye mu gihe yari ari ku materefone yabo agendanwa.

Igorofa ndende ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, mu mbuga yiyo gorofa harimo inzu itangirwamo serivisi za MTN, muri iyo nzu harimo umukozi wa MTN ushinzwe gufasha abakiriya ba MTN kubona amafaranga mu buryo buboroheye.

Abantu babiri bicaye b'igitsina gore, bambaye imipira y'imihondo, barishimye. Imbere yabo hari ameza, bicaye ahantu hasa n'umuhondo, bigaragara ko batanga serivisi za MTN.

Amazu akodeshwa ni inzu ziri mu rupangu zifite amakaro, inzugi nini, amabati meza, imwe muri zo ifite ikigega ndetse yubakishije amabuye.

Inzu yo guturamo imeze neza, ifite ibirahuri, iteye amarangi, ifite umuriro w'amashanyarazi ndetse ikagira n'ikidari mo imbere mu nzu nk'uko bigaragara n'inzu ikodeshwa.

Ikarita yo kwivuza igaragaza ko nyirayo ari Umunyarwanda hari ikirangantego cy'u Rwanda Kandi nyirayo akaba ari uwo mu mujyi wa Kigali, ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, buri munyarwanda wese agomba kuba ayifite kugira ngo yivuze ahendukiwe.

Amaboko y'umuntu, ukuboko kumwe kurimo ikaramu akaba ari kwandika ku ikarita ukundi kuboko gufashe ikarita imbere yaho hari iyindi karita yanditsemo hakoreshejwe ikaramu. Iyo karita iri mu ibara ry'umuhondo ikaramu yo ikaba yandika ubururu.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye bigiye bipanga ku buryo bukurikiranye hejuru hari amakarito ndetse no munsi yaho hakaba ibindi bikoresho byifashishwa mu yindi mirimo igiye itandukanye, hejuru hari itara riri kwaka ndetse ibicuruzwa bikaba bipanze mu tubati.